Akabari keza abantu baza bakaganira bakabasha no kwiyakira, abanywa inzoga nabo bakazifata abantu biragaragara ko baje bose bayishimiye bakaharebera n'umupira ndetse bakabasha kuhahurira n'inshuti n'abavandimwe babo.

Intebe nziza n' ameza meza cane ameze neza y'abasirimu, ariho udusahani ndetse n'udukombe twiza turimo na za papiyejenike. Bigaragara ko ari ahantu muri hoteli abantu biyakirira, bicara bagasangira baganira.

Aka kabari kameze neza kandi ni keza , karimo ibinyobwa ,gafite udutebe twiza tureture bigaragara ko iyo umuntu yicayeho abasha kuba yakwiyakira neza kandi yegereye aka kameza ko hejuru .Nta mucuruzi urimo bigaragara ko ntabakiriya bahari mbese ni akabari kameze neza gakeye k'abasirimu.

Abantu wagira ngo bari mu kabyiniro cyangwa mu kirori. Bafite mashini kompiyuta na mikiseri. Iriya mikiseri ni imwe igufasha kuzamura amajwi igihe umuntu ari kuvugira muri mikoro cyangwa se ukagabanya, ushatse kugira ngo avuge cyane cyangwa se ngo avuge buhoro. Bambaye na ekuteri zituma umuntu yumva neza ibyo barimo kuvuga.

Inzu nziza y'ibitaramo irimo abantu benshi bitabiriye cyane baje mu gitaramo, barishimye bigaragareko bose bari kubyina bizihiwe neza, bafite icyo kunywa bari kunywa inzoga n'ibindi bitandukanye mbese baje kuryoshya igitaramo. Harimo n'amatara meza bigaragareko ari ahantu heza ho gukorera igitaramo cya nijoro cyangwa se ku manywa.

Inzoga ziri mu makesi，harimo amafanta ndetse n'amapirimusi，ziteretse ahantu， bigaragara ko zimaze kunyobwa，kuko zirapfunduye ahantu hari imitaka ndetse n'utumeza， ku buryo bigaragara ko ari n'intebe z'umutuku，bigaragara ko hari abantu bari bahateraniye， bakaba banyweye izo nzoga， ariko abo bantu bakaba bamaze kugenda barimo kwanura aya makesi.

Kabare nziza cyane imeze neza y'inzoga ndetse n'inzoga nini zihenze, nka za konyangi n'izindi nzoga nziza zifashishwa n'abantu kugira bagire ibyishimo, harimo umucuruzi wazo arimo kuzibara ngo arebe izo yacuruje n'izitaragurishwa, kandi bigaragare ko ari kabare nziza ifite abakiriya, ku buryo umuntu wese ukeneye kugira akantu afata yanyarukirayo.

Ibinyobwa bitandukanye by'inzoga z'amarikeli biri mu bicupa by'ibirikeri by'ibyuma ndetse biratandukanye harimo bine bisa ,n'ibindi bibiri bisa ,biteretse ahantu ku meza ndetse n'intebe bigaragarara ko hari umuntu wari uri kubyereka abandi cyangwa se akaba ari umuntu ubiguze ,agiye kubinywa kugira ngo bimuhe akabaraga ndetse n'ibyishimo.

Ahantu heza hameze nko muri hoteri. Harimo intebe nziza n'ameza meza, ndetse n'amarido n'ubwo bayazinze bakayazirikira ku biti. Ni ahantu hubatse neza hari amatara, urumuri rwiza rugaragaza ahantu heza, kandi bigaragara ko aha hantu hashobora kuba ari nko muri hoteri cyangwa se ahandi. Gusa ni hoteri imeze neza yubatse mu buryo bwa gakondo, ,yubakishije ibiti ndetse isakajwe imigano.

Umucuruzi uri gucuruza akabari afitemo inzoga zimwe zihenze, n'izindi zoroheje. Afitemo n'agakoresho kifashishwa mu kuvoma inzoga ku muntu ubyifuza, ashaka gukoresha agakombe akabasha kumusukira inzoga mu gakombe. Ni iduka ryiza ry'abasirimu kandi rimeze neza cyane.

Inzu nziza z'ubucuruzi zifite amabotike akurikirana arimo ibicuruzwa by'ibanze nk'amakara, imiceri, n'ibindi umuntu ashobora kwifashisha ateka. Ni botike nziza ziri ahantu heza kandi zisirimutse cane.

Iduka riri ahantu ku muhanda iduka ricuruza ibintu by'ibanze byifashishwa mu guteka harimo ibihaza bikoreshwa nk'imboga bishobora guhaha ugateka n'igisheke, igisheke cy'iribwa kikongera isukari mu mubiri harimo n'amakara ndetse n'umucuruzi yasohotse afite intebe hanze bigaragare ko aje kwiyereka abakiriya ko ahari. Hari n'igitoki umuntu ashobora guteka akarya.

Inzu nziza ikorerwamo resitora, ni inzu iteye imbere yubatse neza, irimo imiryango minini, imiryango irimo amagiriyaje, ndetse inzu iriho n'icyapa cyerekana ko ari ikaze, aho hantu abantu bose bashaka kuza kuharira, ni resitora irimo n'inzoga zo kunywa.

Inzu y'ubucuruzi nziza icuruza amarangi. Irimo amarangi yo mu dukoroboyi n'amarangi yo mu majerekani, iri ahantu umuryango mwiza ukinguye munini bigaragarako ari ahantu heza umuntu ashobora kugurira ibikoresho by'ubwubatsi ,umucuruzi ari hanze ari kwita ku bantu aho hanze ababaza ibyo bakeneye.

Ibishyimbo by'imiteja bitaratonorwa bipakiye mu mifuka byose bitondekanyije biri ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye, harimo na butike z'ibyo kurya ndetse no hirya hari amazu acururizwamo ibikoresho by'itumanaho(telefone),bigaragarareko ibi bishyimbo bigiye gutonorwa bikagurishwa bitonoye.

Inzu nziza ya etaje imeze neza， irimo amagorofa atatu，hasi hari imiryango y'ubucuruzi，hari n'abamotari，imbere kuri iyo miryango， abamotari niho baparika，bose bari baparitse bareba ku miryango y'iyo nzu，bigaragare ko bari bazanye abagenzi，gushaka serivisi aha kuri izi nzu.

Umuntu urimo gucuruza ibikoresho byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Harimo ibikapu, igikapu umuntu atwaramo imyenda cyangwa se ibindi bintu bisanzwe. Harimo ibikombe, igikombe umuntu anyweramo amazi, amata n'ibindi. Udukapu dutoya tw'abamama cyangwa se abakobwa.

Umuryango mwiza ukorerwamo dizayini, ni dizayini nziza y'imyenda ndetse no gushyiraho ibirango ku myenda cyangwa se kuyandikaho mu gihe umuntu wese aba abikeneye ko yandika ku mwenda we nk'amazina ye, cyangwa se imyenda y'umuntu wagize ibyago, bari kumwandikaho, kugira ngo bayifashishe mu kumushyingura hariho ibirango by'uwo muntu.

Inkweto, abantu, parafo, intebe, ikanzu, umuyisilamu.

Kafe nziza iri ahantu heza ikinguye irimo ibintu bitandukanye byakwifashishwa n'umuntu ushaka kurya ako kanya, irimo amasambusa, amapiza n'ibindi bitandukanye bira ahantu heza cyane ku mazu meza ariho amakaro hejuru iriho n'amabutike mo imbere bi ihagarika ahantu heza umuntu yajya akabasha kwiyakira neza nk'umusirimu.

Inzu nziza yubatse neza iriho amakaro inyuma, kandi iriho akabutike bigaragara ko hari umuntu uri gusohokamo, ufite akabage mu ijosi kandi yambaye umupira w'impuzankano ujyanye n'akazi akora. Biragaragara ko hashobora kuba ari ahantu hokerezwa nk'inyama cyangwa se ibindi bintu, kuko hagaragara ko imbere harimo nk'umwotsi.

Kenkayeri nini irimo ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'ibikoresho byo gukinga inzugi nk'ibirahure, harimo n'amatiyo yifashishwa mu gukora amashanyarazi, kandi harimo n'indi migozi itandukanye. Imikoropesho n'imikeka ikoreshwa mu nzu, ameza n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Imigozi yifashishwa mu gukora imiriro itwara insinga mo imbere, irazinze yose izingiye hamwe ikoze ikizingo kinini bigaragare ko yari iri ahantu mu iduka. Iri gucuruzwa kandi n'imigozi myiza itwara insinga ikaba yafasha mu gukora amashanyarazi.

Inzu nziza iriho umuryango munini ndetse iriho ibyapa byinshi bigaragara ko ari inzu y'ubucuruzi kandi iteye imbere ifite imiryango ifite inzugi ndende cyane zirimo n'ibirahure kandi ziriho imitako itangaje cyane hariho ibirango bya papeteli ndetse n'ibindi bya karikireta hariho ibirango byinshi cyane byamamarizwaho.

Akabati kanini karimo imireti, karimo n'imigati ndetse ahandi nta kintu kirimo ni akabati gakozwe mu biti ariko karimo ibirahure ku mpande bigaragara ko ari akabati keza gateretse ahantu kuri ku makaro hariho amakaro hariho n'amasikariye mbese bigaragare ko iyi migati yashyizwemo baraza no kongeramo indi nibamara kuyikora.

Inzu, icyapa, intsinga z'amashanyarazi, umuntu uri ku igare, uruzitiro.

Akayitajeriki kariho inkweto zicuruzwa， bigaragare ko aha ari mu nzu y'ubucuruzi，hari inkweto nziza za masayi，kandi n'udukweto dukoze neza， biragaragara ko buri muntu wese， ukambaye yagaragara neza， hariho esikariye impande yaho，bigaragara ko ariho umuntu anyura azamuka agiye kugura izi nkweto.

Iduka z'imyenda n'inkweto, imyenda amapantalo ndetse n'amakote. Harimo n'udukweto twiza tw'abasirimu, amakote yifashishwa mu mbeho cyane cyane nko muri aka gace ka Musanze gakonja cyane. harimo n'amapantalo meza ya y'agapira kandi ashobora kwambarwa n'abantu bameze neza kandi basirimutse.

Inzu nziza ya etaje ndetse ifite n'indi miryango ku ruhande y'ubucuruzi bigaragara ko iri ahantu ku kumuhanda heza, hari umuntu uri kunyuraho atambika bigaragare ko yari avuye gushaka serivisi kuri iyo nzu. Hari n'undi uri kwinjiramo ajya gushakamo serivisi, umunyonzi yaparitse imbere y'iyo nzu ni inzu nziza iriho amakaro kandi inzu y'uburyo buteye imbere.

Akabotike gatoya kari ahantu ku muhanda bigaragareko gafite idirishya rimwe nta muryango gafite, gacururizwamo ibintu bitandukanye amavuka ndetse n'utundi tuntu umuntu yakenera mu gihe ari guteka mu rugo. Umukiriya araje agiye kugura ari kunyura mu muhanda, ni akabotike kari ahantu ku muhanda kari hafi y'umuhanda cyane kahegereye ku buryo umuntu ashobora guhita ahagura akantu ko kurya ako kanya.

Isantere nziza y'ubucuruzi irimo abacuruzi benshi ndetse icururizwamo ibicuruzwa byinshi mu mabutike aranguza, ndetse n'amamodoka yaje kurangura arimo n'abantu ndetse n'imitako ya MTN y'abacuruzi b'amayinite.

Santere nziza y'ubucuruzi ariko amazu y'aho arakinze bigaragareko hashobora kuba habaye nk'ikintu runaka, gituma bakinga ntibabashe gukingura ngo bacuruze. abantu bari baje, baje kugura ariko basanga hakinze bose bari kubazanya aho abacuruzi bagiye

Amaduka meza cyane y'ibiribwa hariho ibiribwa bitandukanye ibihaza byifashishwa nk'imboga mu guteka, harimo imifuka ,harimo n'abacuruzi bicaye hanze bari guhata bari no guhekenya intoryi ,kandi bigaragareko ari ahantu hari akabutike keza umuntu yajya guhahira.

Inzu nini y'ubucuruzi ifite imiryango minini cyane imeze neza cane ku buryo ikorerwamo na betingi, irimo ibikoresho bya siberi kafe aho umuntu aza gufotoza impapuro n'ibindi. Hariho n'abandi bakorera hanze ku ruhande bakora nk'ababaninga cyase bacuruza indirimbo n'amafilime.

Inzu nziza ziri ku muhanda, zimeze neza, zibambyeho amakaro ku mpande, ku buryo zakorerwamo ubucuruzi, harimo izicururizwamo, ndetse n'izindi zirimo ama cafe, cyangwa se utundi tubutike, ducururizwamo ibyo kurya by'ako kanya, harimo butikezirimo bitoki, zirimo ibirayi, mbese ibintu nkenerwa bya buri munsi, harimo n'indi irimo imyenda, n'ibitenge by'abadamu, n'ibindi bitandukanye.

Ipoto, moto, butike, insinga.

Iduka ry' ibikoresho by'ikoranabuhanga， riri munzu nziza y'amakaro， kandi imeze neza irimo urumuri ruhagije，harimo n'udusakoshi tw'abadamu bifashisha batwaramo utuntu dutoya bagendana， n'amatereviziyo akoreshwa murugo， mu kureba amakuru cangwa se imipira， n'ibindi biragaragara ko ari iduka ryiza， riri ahantu heza kandi risobanutse， ni iduka ry’abasirimu cane.

Ibiraha byiza biryoshye biri mu kabogisi bigaragara ko bitetse neza, bimeze neza, ni binini kandi bigaragara ko bishobora kuba biryoshye, biri mutubogisi, no hirya hari utundi tubogisi turimo ibindi kandi ni ibiraha byiza cyane kuburyo buri wese yakwifuza kubiryaho.

Butike nziza y'ubucuruzi kandi bigaragara ko ari butike nini iranguza ,irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo amakarito y'amavuta, amakarito y'imyunyu n'ibindi harimo n'ibindi mifuka irambitse hasi ku mapalete ,palete zikozwe mu biti . Harimo abasore babiri bigaragara ko ari abagemura ibicuruzwa ku mukiriya uri kure.

Santre nziza y'ubucuruzi iri ahantu ku muhanda mwiza wa kaburimbo icururizwamo ibintu bitandukanye, birimo amabutike acuruza ibikoresho bya elegitoronike, harimo nk'amatelefone n'amasaha n'ibindi, hacururizwa n'amagaze. Hari n'umuntu uri kunyuraho w'umusilamu wambaye impuzankano, agiye ku musigiti gusari.

Isoku ririmo imyenda, imyenda y'abamama imbere, ndetse n'udukapu ririmo n'ingofero n'ibindi byinshi, n'udufuka two kwifashisha mu guhaha, udufuka dutonya, ndetse harimo n'ibindi byinshi. Abakiriya biragaragara ko batari baza, ariko mukanya baraba baje bakagura.

Akabotike gatoya k'ibiconco karimo :ingofero, ingufuri ,harimo n'amabaro, n'udukoresho tw'abana harimo udufuka twifashishwa mu guhaha ndetse n'ibikapu binini, bigaragarako ari akabotike gatoya ariko karimo utuntu twiza nk'amasaha n'ibindi bimanitse hejuru ku muryango w'urugi, bigaragarako ari akabotike gatonya kameze neza ri....

Iduka ryiza cane riranguza ibicuruzwa，amazi ya niri， ibikarito， amabiswi， n'imyunyu，harimo umugore bigaragara ko yarategereje abakiriya，kugira ngo abahe ibicuruzwa. ...

Umukanishi w'amatelefoni n'amaradiyo n'ibindi bikoresho by'i koranabuhanga bitandukanye ari gukorera hanze, afitemo na serivisi za emutiyeni, yicaye mu nzu bigaragara ko umukiriya yaje, amusanga aha akamufasha kumukorera ibikoresho bye.

Ahantu heza hameze neza hari saro yogosha, hari salo imeze neza ifite intebe nziza harimo abakiriya harimo n'umwana uri gusohoka bigaragareko mo imbere harimo abantu barimo kogoshwa ,hanze hari umucuruzi wa Emutiyene utanga serivisi zitandukanye za Emutiyene yazinze umutaka bigaragareko yagiye muri poze.

Amazu meza cane y'ibara ry'umweru afite ateye irangi ry'umweru, afite n'amacumbi. Bigaragara ko ari ahantu ho muri hoteli abantu baza kurira kandi bagashaka n'amacumbi yo kuraramo. Ni amazu meza, ameze neza afite n'amaroji meza, ku buryo umuntu wese wiyakiriyemo yakenera kuhifashisha akaharara.

Iduka ryiza ricururizwamo ibintu bitandukanye. Ririmo akabunga, umuceri ndetse n'ama piza n'ibindi byinshi bitandukanye, za salisa n'ibindi. Iki ni icyapa cyaryo kigaragaza ko harimo ibintu byiza kandi byinshi, bishobora kuba ari na na supamaketi cyangwa superi marishe irimo ibintu byinshi bitandukanye.

Inzu nziza yubatse neza， imeze neza， iriho amakaro， ari mu ibara ry'umutuku， irimo n'utubari hariho ibyapa bya mitsingi， bigaragare ko ari ahantu abantu baza kwiyakirira， hariho n'uturabo twiza turi mu ....？？， hariho n'imodoka， ndetse imodoka nziza yaparitse，bigaragare ko ari iy’umuntu waje kwiyakirira hano.

Inzu nziza y'ubucuruzi y'imiryango ine iri mu isantere ahantu heza hacururizwa amagaze. Hari abantu bahicaye imbere, hari ndetse inzu iri ku muhanda hari n'abanyonzi bari kunyuraho, haba n'abahetse imizigo bari kunyura mu muhanda bagenda. Iyo nzu imeze neza iriho akarange keza k'umweru, ku buryo umuntu ushaka umuryango yakoreramo, yayikoresha. Iyi nzu ni nziza cyane.

Botike y'imiti y'amatungo, irimo imiti y'inka ndetse n'amafumbire n'indi miti y'udukoko twica udusimba two mu myaka, biragaragara ko harimo imiti myinshi kandi ari iduka ryiza, umuntu ashobora guhahiramo imiti y'ubuhinzi n'ubworozi.

Ahantu heza hasa neza hari ibikoresho bitandukanye, hari akameza keza k'umweru kariho irangi ry'umweru, hariho n'uducupa bigaragare ko turimo nk'umuti cyangwa se urusenda, ni ahantu heza bigaragare ko hashobora kuba hacururizwa ibikoresho bitandukanye, kandi harasa neza cyane ni ku makaro hari n'utundi dukoresho dutandukanye.

Iduka ryiza rinini ry'amavuta y'ibinyabiziga harimo amavuta ya moto ndetse n'ay'imodoka. Umumotari yaje araparika, yinjiyemo agiye kugura amavuta yo gushyira mu kinyabiziga cye kugira ngo kibashe gukora neza.

Ahantu heza cane h'ahanyaburanga umuntu ashobora gusura. Hari ibiti binini by'ininturusu, hari n'amazu yubatsemo, mo imbere y'ibyo biti, hariho na porotaye nziza nini, igaragaza imbere kandi harimo n'intebe bigaragara ko ari ahantu umuntu ashobora kujya akiyakirira.

Amabotiki meza ya kijyambere ari ahantu heza mu nzu nziza z'inyubako nziza. Zirimo urumuri rwiza, hacururizwamo ibikoresho bitandukanye amapo y'abana, abana bitumamo. Harimo n'ibikoresho nk'ibirangiti, n'ibikuvureri n'ibindi byinshi, imyenda y'abamama, amakanzu n'ibindi bitandukanye. Bigaragara ko ari ahantu heza umuntu yagurira.

Ibikoresho byo munzu byasohowe hanze harimo ameza utu etajeri ndetse n'imikoropesho, harimo n'ibidomoro, n'ibiduki n'amabase ndetse n'intebe zo kwicaramo bigaragara ko byari byasohowe munzu bagiye kuhakora amasuku.

Ibikoresho byo mu rugo byifashishwa mu kunywa amazi, harimo ibikombe, ndetse n'ibikoreshwa mu masuku, harimo amabase n'indobo, harimo n'amasafuriya yifashishwa mu guteka, kandi bigaragare ko biri ahantu hamwe, ari botike y'ibikoresho by'ibiconsho, harimo n'ibyo bikoresho byose twavuze haruguru.

Umuryango mwiza munini cyane, umeze neza, uriho ibyapa byinshi bitandukanye, ni umuryango w'inyubako nziza yo muri Musanze yitwa goyiko puraza, biragaragara ko ari ahantu heza, kandi hari isoko ryiza, ni umuryango munini ufite uturyango tw'uduce dutoya, tugera muri dutanu ndetse no hejuru hari umwanya munini bashyiraho ibyapa byo kwamamaza.

Inzu nziza y'ubucuruzi ifite imiryango ine iriho abacuruzi benshi, ndetse n'abakorodoniye bakora inkweto yegereye umuhanda, umuhanda uri kunyuramo amamodoka, ndetse n'amamoto, bigaragara ko ari ahantu heza ho gukorera ubucuruzi.

Abantu bishimye bambaye neza bambaye impuzankano imwe, bigaragara ko ashaka kuba ari mu rusengero akaba ari korali irimo yari imaze gusenga barimo kwifotoza bafata ama serifi ,umwe yateye igikumwe arishimye ari guseka bigaragara ko bari banezerewe bishimiye kuba bari mu rusengero.

Icyicaro cya banki ya ekwiti kiri ahantu heza, cyane bigaragara ko ari mu nzu nini ya etage aho turi ari kugaragara hari umumama bigaragara ko avuye gushaka serivisi, kuri iyo banki ari gusohoka y'ishimye bigaragara ko yahawe serivisi nziza.

Inzu nziza ikorerwamo banke, iyi ni banke popilele y' u Rwanda biragaragara ko ari banki nziza iri ahantu heza, kandi yegereye abaturage. Abaturage bari kuza bamwe bicaye hanze bategereje kwinjiramo ngo bajye kwaka serivisi nyinshi zitandukanye, undi arasohotse avuyemo anezerewe bigaragara ko yahawe serivisi nziza.

Koperative icuruza ibintu bitandukanye by'imbuto n'imboga ndetse n'imbuto yo guhinga nk'ibishyimbo ndetse ifite inanasi, ifite ibinyomoro, byose bikaba biribwa ndetse n'ibitoki byahiye bitanga imineke. Koperative nziza ifite n'amaseritifika igenda iha abahinzi bitwaye neza bagatanga umusaruro mwinshi.

Icyapa cyerekana ahantu hari amazu meza yo kuraramo, amaroji ndetse kigaragaza n'ibirometero by'aho hantu amaroji ari uhereye aho iki cyapa kiri. Ni icyapa cyiza cyane gitatswe n'ibintu byiza kandi cyerekana cyereka umuntu aho yajya gufatira icumbi mu gihe bwaba bumwiriyeho.

Amazu meza asakajwe amabati ameze nk'amategura agiye yungikanye hari kugaragara hejuru y'ibati ko ari inzu zisakaye neza kandi zikomeye . Ni inzu zubatswe neza zifite ururabo runini ku ruhande bishobora kuba bigaragara ko ari inzu z'abasirimu kandi zubatswe kera.

No ntari inzu ziriho n'igipangu, iriho n'amapave, iriho n'indabo kuruhande, bigaragara ko ari inzu nziza yabantu biyubashye, ari inzu nziza imeze neza kandi iriho ni'gipangu cyiza cy'umukara kimeze neza cyane.

Ahantu heza hameze neza hakozwe n'amapave ameze neza, akase neza bigaragara ko ari aha kera, ariko hameze neza ku buryo umuntu wese yakwifuza kuhasura. Hari utujaride twiza n'uturabyo twiza bigaragara ko hasurwa n'abantu ba mukerarugendo baje kureba ibyiza bitatse aha hantu.

Inzu nziza cane ifite amategura y'ikigina, iriho utujaride twiza ndetse ifite n'ishyamba inyuma yayo, ifite itara imbere ryiza cyane, urabona ko ari inzu nziza cyane imeze neza ifite.

Iduka ryiza cane ry'inkweto. Inkweto nziza bigaragara ko zigezweho, arizo zambarwa n'abantu b'abasirimu cane cane nk'abantu batuye mu migi. Biragaragara ko ari ahantu heza cyane umuntu yahahira agakweto keza ko kujya yambara. Harimo abakiriya benshi, harimo n'abacuruzi bigaragara ko ari isoko ryiza riteye imbere cane.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu musatsi bihindura umusatsi umukara harimo na shampo, bulaka shampo ikoreshwa mu guhindura ibara ry'umusatsi kugira ngo umere neza ,na kanta nayo iterwa mu misatsi kugira ngo ibashe kugira ibara ry'umukara ise neza.

Mu maduka y'imyenda harimo imyenda mu mashashi ndetse n'amashuka meza cyane, bigaragare ko ari ahantu hacururizwa udukoresho two kwishisha n'imyenda yo kwifashishwa isanzwe turambitse hejuru ku meza ndetse n'indi iramanitse hejuru ndetse ibindi birambitse hasi kugira ngo uza kugura bitamugora kubireba.

Akayetajeri karimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora isuku ndetse n'ibiribwa, karimo Karikireta yifashishwa mu gukarikiretinga imibare cyangwa se guteranya no kugabanya imibare, harimo n'amakorogati yifashishwa mu gukora isuku mu kanwa, ndetse n'amavuta yo kwisiga y'Amara, ndetse n'agakoroboyi karimo amasaradini atekwa mu biribwa.

bolitique nziza ziri ku murongo zitondekanye harimo n'abacuruza ibikoresho bya tetoroniki nk'amatelefoni ya techno ndetse hari n'abaguzi bari kugenda bareba ari kugenda anyura ku magutiqke amwe'amwe akomeza kugira arebe ahari ibyo akeneye ariho yinjira abashe kugurira

Isoko ryiza rimeze neza ry'imboga n'imbuto. Riri gucururizwamo ibibiriringanya, ni byo bigaragara cyane. Kuko ibiriganya bifasha kuba byakorwa nk'imbuto. Ndetse harimo n'amakokombure, harimo n'imiteja n'ibindi bitandukanye. Gusa bigaragara ko nta bakiriya bari bazamo haracyari kare kuko harimo abacuruzi gusa, bari gucururiza hejuru ku bitanda.

Urusenda rwiza rwahinzwe neza, rwahinzwe neza, rutukuye, urundi narwo ntabwo ruratukura neza ruracyari umuhondo. Ziri ahantu mu gatebo bigaragara ko zasaruwe kandi zikaba ziri ahantu zishobora kugurwa ni insenda nziza zitanga uburyohe ndetse zikaba zanatera apeti umuntu. Zigaragara neza ku buryo umuntu wese yakwifuza kuziguraho ngo ajye kuzirya.

Igisiniya kinini kiriho amasambusa akunze kwitwa ibiraha. Ni isiniya y'umweru y'icyuma rinini cyane hari n'ipanu hasi bigaragara ko bari gu kotsa,l izi sambusa bagahita bazikuraho izihiye bakazishira kuri iyi siniya kugira ngo ngo zibashe gucuruzwa ahantu ari abakiriya hose.

Ababyeyi b'abacuruzi bicaye hanze bari gucuruza bari inyuma y'isoko. Bari gucuruza indagara zitekwa mu biryo kugira ngo zibihumuze ndetse zibyongeremo n'intungamubiri. Bari gucuruza n'amapamba y'abana, ayo babinda abana kugira ngo batabasha gusohora umwanda hanze. Kandi bafite n'abana ku ruhande bigaragara ko bari bazanye n'abana babo. Baricaye bari gucuruza, bategereje ko abakiriya baza.

Isoko ryiza ricururizwamo ibiribwa, aho abakiriya bahahira hacururizwamo amavuta, indagara, akawunga, umuceri, n'ibindi byinshi. Biragaragara ko abakiriya barimo ni benshi, kandi ni isoko ryiza cyane riteye imbere.

Iduka ryiza jy'inkweto nziza, inkweto z'insongo zifashishwa mu kujyanwa gusenga, ndetse n'ahandi hantu nko mu bukwe, zimeze neza cyane. Ni inkweto zimwe z'umukara n'iz'ibara rya shokora, mbese ni inkweto nziza ku bujyo umuntu ushaka nk'agakweto ko kujyana gusenga cyangwa mu bukwe yaza kugurira aha.

Umutayeri mwiza uri kudoda imyenda kandi agatera n'amapasi, afite icyapa kivugako aha batera ipasi neza, arimo aratera imyenda kandi akeneyeko abantu bamugana akabaterera ipasi ,afite utundi tuntu ari gucururizamo mo imbere harimo za muswara n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Isoko rinini, ryiza, ry'abaguzi n'abacuruzi kandi ni isoko ryubatse neza ririmo ibintu bitandukanye. Hari umukiriya uri kugenda ava muri iryo soko hirya y'iryo soko biragaragara ko hashobora kuba hari igare kuko hakurya yaryo hari abantu benshi. Iri soko ririmo umukozi wa MTN ufite umutaka ndetse uri gucuruza n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Abacuruzi bari gucuruza inkoko bazifashe mu ntoki ,undi ari kuyifata akareba kugira ngo abashe kuyigura ,hari gucururizwa n'utumeza umuguzi umwe ari kurebamo ako yashima, hari n'agacu akazu ka Emutiyene gacururizwamo amayinite ndetse n'izindi serivisi za Emutiyene. Abaguzi ni benshi kandi barishimye cyane barifuza kugura.

Akaduka gatoya k'utunyobwa tw'abana dukunzwe kwitwa twa mango turi mu dukoroboyi twiza tw'udushashi, turubitse turacuritse, bigaragara ko dusa neza ku buryo umwana yagakenera ku kanywa, harimo n'utubiswi two kunywesha ndetse n'imyunyu iri mu bikarito.

Isoko ryiza riteye imbere ariko rihahirwamo n'abaguzi bose batandukanye, rigacururizwamo ibitoki, abakiriya bari kuza bakabaza uko bihagaze, akabaza yakumva bihendutse akagura, cyangwa se yakumva uhenda akigira ahandi, biragaragara ko harimo abacuruzi benshi bacuruza ibintu bimwe.

Abakiriya benshi bari mu iduka, bose barashaka kugura. Ni iduka rinini rizwi nka superi marishe cyangwa supamaketi. Bigaragara ko aba bantu bose bashakaga kugura, ariko abacuruzi bakaba bakeya. Bose bari kureba ibyo bari bugure, bagatumiza maze uri gucuruza akagenda akabibazanira.

Isoko ryiza rinini ry'imboga n'imbuto, ririmo abaguzi ndetse n'abagurisha, abakiriya bari kuza banyuramo bareba imbuto ziri hejuru ku tumeza, kandi bakagenda bagura barebamo, harimo karoti zikoreshwa nk'imboga n'imiteja, ibitunguru na za tungurusumu, n'amapavuro, umuntu yakwifashisha ateka imboga cyangwa uburisho bwo kurisha ibindi biryo.

Amaduka g'abatayeri gacururizwamo imyenda, hacururizwamo n'ibitambaro. Urabigura ukabizanira umutayeri akakudodera. Umutayeri biragaragara ko ari kudoda, n'undi mucuruzi wicaye ruguru uri gucuruza imyenda. Uyiguze agahita ayizana kuri uyu mutayeri akaba yayimugabanyiriza, cyangwa se akayiteranya akayikoramo undi mwenda, umeze uko umukiriya abishaka.

Inzu nziza kandi zubatswe kijambere, bigaragara ko zubatswe vuba kandi zikiri nshyashya. Ni inzu ya etaje irimo ibintu imbere, bigaragara ko ishobora kuba ari isoko. Abantu bari kugenda binjira bajyamo bajyaguhaha. Mo imbere harimo imbuto, bigaragara ko ari ahantu Abantu bajya bakagurira, kandi ni isoko ryiza rya kijambere.

Iduka jy'imyenda ririmo amashuka yifashishwa mu kwiyorosa igihe umuntu aryamye, harimo imisego yifashishwa mu bwegamiro kugira ngo umuntu atagira ibibazo by'igikanu, hacururizwamo amasogi, hacururizwamo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwambara ndetse no mu kuryama, ibikoresho byifashishwa mu buriri.

Inkweto, amasogisi, ibikarito, indobo, umuntu, iduka, bote, imifuka.

Butike nziza y'ibikoresho bitandukanye, harimo n'inkweto zifashishwa mu kwambarwa, inkweto nziza zoroheje zo kogeramo, harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye, harimo imifuka n'ibindi n'amabote yifashishwa mu buhinzi.

Imbuto z'ubwoko butandukanye. Cyane cyane amapapayi ndetse n'amaronji. Agiye ateretse ku nara. Iriya nara uyifashisha, ushobora kuyifashisha urimo kugosora imyaka igihe iba yumye, cyangwa se ukayifashisha utwaye ibintu.

Umucuruzi w'imyenda ari gucuruza imyenda yayirambuye hasi, ni imyenda myinshi harimo n'imyenda y'abana, kandi bigaragareko ari imyenda myiza cyane myinshi kandi ihendutse. Abakiriya barimo bari gucagura buri wese arebamo iyo ashima ngo ayigure.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, amasharijeri bifashishwa mu gucaginga amatelefone, imigozi ndetse n'amaposhete ya telefoni arinda telefone kuba yameneka cyangwa se yakoboka, amakuteli yifashishwa mu kumva imiziki, ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye biri hamwe mu iduka.

Umufuka gw'amakara ucagase， ugeze hasi cyane bigaragara ko wacurujwe wenda gushira， uri iruhande rwawo n'ibirayi byacurujwe bigaragara ko byenda gushira， bira ahantu mu isoko hari n'intebe ku ruhande bigaragara ko hari umucuruzi uri kubicuruza，ni mufuka ugerejwe cyane bigaragara ko abantu bari kuyagura cyane.